Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarahiye nko kwiga akiga nk'ubuganga, cyangwa se nk'ubuvuzi cyangwa ubuforomo. Yamara kubwiga, yagera nko hanze akihangira imirimo agashinga amafarumasi cyangwa se akajya no gukora nko mu bitaro bya Leta. Ibyo bigafasha abarwayi n'abamugana, bafite indwara zitandukanye kwivuza neza. Ndetse na wa wundi uri kubavura akabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Kwihangira imirimo ni byiza cyane, aho usanga umuntu yarihangiye umurimo ku rugero agashyiraho amafaromasi, amahosipito, ibitaro bitandukanye byo kuvura abarwayi, umuntu yabagana bakabasha kumuha imiti itandukanye harimo deburukale, parasitamoro n'ibindi ndetse bakaba bamukorera isuzumiro, umuntu waba ari nka muganga yaba ari gukora muri ibyo bitaro, akaba yakwinjiza amafaranga cyangwa akavura abarwayi bagakira.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarubatse ahantu amazu hatandukanye cyangwa se ibitaro ahantu bitandukanye. Cyangwa se ugasanga ba rwiyemezamirimo bafashe nk’inzu runaka, bayubatse ahantu hatandukanye, bashyizemo ibitaro, bashyizemo imiti. Ugasanga nk’ababyeyi bari kujya kuhabyarira, bamara kuhabyarira bagashyiramo nk’ibitanda byo kuryamamo. Ibyo bigafasha abarwayi kwivuriza ahantu heza kandi bagakomeza kuhizera, kuko haba hafite n’umutekano n’ibitanda byo kuryamamo.

Ubuvuzi busigaye bwarateye imbere ariko ntabwo twibagirwa n'ibyatsi twakoreshaga tuvura uburwayi butandukanye, ni yo mpamvu dukomeje no kuzigasira ibidukikije kugira ngo ibyatsi twakoreshaga mu buvuzi gakondo bikomeze bibeho.

Umuti gakondo uba mwiza cyane, aho usanga ahantu harameze nk'ibyatsi bitandukanye, nk'ibyatsi bigira utuyange, ugasanga ibyo byatsi bivura nka gapfura cyangwa se nka malariya, byarangiza kubivura ugasanga abo bantu babikoresha bari kubibungabunga. babifata neza. Ibyo bigatuma n'umuntu uzi icyo cyatsi abona amafaranga, kubwo kumenya kuvurisha abantu ibyatsi.

Ubuvuzi gakonda bwabaga bwiza cyane, aho wasangaga ahantu hatandukanye hariho nk'ibyatsi bivuraga abantu, ugasanga nk'abantu bararwaye nk'ibicurane, ugasanga abantu barwaye imisonga, bakajya kwahira ibyatsi bakivura, ibyo bikabafasha kubaho neza mu buzima bwiza, batagira uburwayi bwo kubahangayikisha.

Ubuvuzi gakondo bwabaga bwiza cyane, aho buri muntu wese warwaraga bamuvurishaga ibyatsi bitandukanye, waba warwaye nk'ubutembwe bakakuvurisha ibyatsi bya kinyarwanda, waba warwaye ufite nk'igisebe ukaba washyiraho inyabasanya, gutyo umuntu wese wakeneraga ibyatsi bitandukanye yajyaga mu ishyamba akabibona, yarangiza akabikoresha mu buvuzi.

Ubuvuzi gakondo bwabaga bwiza cyane ,aho wasangaga abaganga gakondo bari gukoresha ibyatsi bitandukanye bikajya bivura indwara zitandukanye. Ibyo bigafasha abanyarwanda n'abatuye igihugu cyacu , kubona ubuvuzi bwihuse kubwo gukoresha ibyatsi.

Guhinga ibishyimbo ni byiza cyane aho usanga bihinzwe ahantu hatandukanye bikavamo ibyo kurya tugasagurira amasoko, ugasanga umuntu abijjyanye ku isoko abonye amafaranga yo kugura ibindi biribwa n'ibicuruzwa , bityo umuntu agakomeza akiteza imbere.

Ubuvuzi gakondo ni bwiza cyane. Aho usanga vaga nk'ibyatsi biri kuvura abantu bafite indwara zitandukanye. Nk'urugero nk'ibyatsi by'intiindore inyabasanya, ugasanga bari kubyifashisha mu buvuzi gakondo. Ibyongibyo bigafasha abaturage kubaho neza, kubera ko bari gukoresha ibyatsi nyayarwanda.

Imiti gakondo twarayifashishaga mu gihe cyo hambere nka voka ijya ivura indwara zitandukanye, urugero nk'imisave barayifashishaga bavura indwara zitandukanye, ndetse n'ubu hari igihe ujya kwa muganga bakaba bayigutuma, ukajya gushaka ibyo byatsi, bakabyifashisha uvura indwara zitandukanye.

Imiti nyarwanda ntiyacitse kandi yanahozeho. Wasangaga nk'abaturage bari kwifashisha imiti gakondo. Ibyatsi bitandukanye bifite amashubi, nka capusine n'ibindi bintu bitandukanye. Wasangaga aribyo bari kwifashisha mu buvuzi. Ibyo bigafasha abaturage gutera imbere, kubera ko babaga bivuje, bakivuza n'ibiti bya kinyarwanda badatanze amafaranga.

Imiti gakondo yabaga myiza cyane, aho bafataga ibyatsi bitandukanye bakajya baravura abantu bafite uburwayi butandukanye. Nk'inzoka, ibiheri ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Bakajya barafata ibyatsi byitwa inyange bakajya barabivurisha abantu.